Ubuhinzi buteye imbere bw'icyayi, n'aho abahinzi bahuje ubutaka, bagahinga ku buso bunini icyayi, ubu tuvugana bakaba barimo bari gusarura ,kandi akaba ari umusaruro utubutse.